Ku bitaro kwa muganga aho bakurira amenyo, wahasanga ibyuma bikura amenyo, intebe baryamishaho umurwayi bagiye gukura amenyo, n'isaha n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Niba urwaye amenyo yakunganga bakayavura amaho niyo agiryinyugenda buririndi babashe kuseza ishyari.

Mu gihe ufite ikibazo cy'imitsi bigufasha kurambura ingingo kugira ngo ukore siporo. Bigatuma umubiri wawe utembera neza. N'amaraso akagenda atemberana neza n'ingingo zawe zikagororoka.

Umurwayi uri kwa muganga ufite ikibazo cy'imitsi y'amaboko, bamuha ibintu bimufasha gukora siporo, bamuhambira amaboko kugira ngo imitsi ye ibashe kurambuka amere neza.

Inyabarasanya zongera amaraso mu mubiri, bimbe no gukaburwa amatungo.

Umuravumba ni igihingwa gakondo, kibasha kuvura indwara zose zo mu mubiri, umutwe, malariya n'ibindi, ahantu hose usanga bagiteye kugira ngo kigende gifasha buri muturage wese.